Izingizi ni intebe zo mu rugo, zifashishwa mu ukwakira abashyitsi, ni intebe ziri muri saro abantu bicaramo, bagakoreramo ikiganiro, bagakoreramo n'utundi tuntu dutandukanye, hakabamo n'ameza bifashisha bari gufata ibyo kurya.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'ishuri, harimo umwarimu wambaye itaburiye, umwe uhagaze mu muryango, abandi babiri bahagaze nago ari abarimu, bahagaze aharinganiriye n'idirishya.

Ahangaha harimo amamashini adoda imyenda, akanasirifira imyenda mu mpande, bagakora na babiroke, zikoreshwa mu kudoda imyenda y'abantu itandukanye, habamo iy'abagabo, hakabamo n'iy'abagore.

Aba ni abaganga bari kuvura, bari kwiga kuvura bakigira ku gipupe, kugira ngo ubumenyi bwiyongere, kugira ngo bajye bakorera abantu neza bararangije kubatoza.

Abana bari kwiga bicaye ku ntebe za Pipitire, bari kwandikisha amakaramu y'ibiti. Iruhande y'abo hirya hari amashuri bigiragamo, umwarimu wabo ari kugenda arareba buri munyeshuri wese.

Umukobwa ari aho bakorera imisatsi bamaze kumukorera umusatsi gwe, bagukoze bagumuryamishaho bapfundikira inyuma, yambaye amaherena, bamukoreye n'ingohe barazikata basigaho ibintu by'umukara, inyuma hariho umuntu uri kumukorera mu mutwe.

Abafundi bari mu kigo cy'amashuri bari gutondeka ibyuma bashaka kubihuza. Ni abafundi batandukanye bamwe bambaye ingofero kandi bose bambaye imyenda isa n'ubururu n'inkweto zifunze.

Abana bari kwiga kudoda n'imashini yo kudoda imyenda bayibabulokinga, kugira ngo imyenda igire forume nziza mumpande, nibayidoda yere kugera k'umusozo.

Abana bafashe akagozi bari gukinisha, ku gakinisho kari hasi gasa ubururu. Bafite agakinisho kandi kariho udupine tw'umukara, gasa n'umutuku, imbere y'aho bafite terefone yataci.

Abanyeshuri bigaga ikoranabuhanga ribafasha kumenya ubumenyi bwisumbuye, ku buryo nabo bazarangiza iciciro c'amashuri bikabagirira akamaro. Ikoranabuhanga ribafasha kwiga ubundi bumenyi, bikabateza imbere bageze hanze.